Icyapa kigaragaza amabwiriza, cyangwa se inshingano z'abakozi bakora mu kigo cy'ishuri, iki cyapa kikaba kimanitse ahantu, ariko kiri cyonyine.

Abana b'abanyeshuri bicaye ahantu hamwe, bambaye ubururu hejuru ndetse inyuma yabo hari abandi bambaye umweru. Abo bicaye imbere hari umwe w'umukobwa ufite mayikorofone, ndetse imbere ye hateretse n'icupa rya ji.

Abagabo babiri bigaragara ko ari abakanishi ,barimo bafite ibintu by'ibyuma, ikindi bose bambaye imyenda y'ubururu ndetse n'udupfukamunwa, abagabo bakaba bunamye bigaragara ko bafite ikintu barimo gukanika.

Abanyeshuri bambaye kaki hasi umweru hejuru, harimo n'abandi bambaye umukara hejuru ndetse n'umuhondo. Bose bakaba bafite ibitabo bisa kandi bose barimo guseka.